Burya no mu kiyaga habamo ubugenzuzi bukorwa na porisi twita marine. Porisi marine iba ifite ubwato bwa moteri, igakora ubugenzuzi mu kiyaga, bw'abantu baba bakoresha nabi ikiyaga batabyemerewe.

Iyo tuvuze igaraje, ni ahantu bajyana imodoka bakayikanika. Igaraje irakoreshwa cyane cyane iyo bashaka kureba uko ubuziranenge bw'ikinyabiziga runaka. Na hano i Musanze, dufite ikigo cya porisi gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga.

Mu kubungabunga umutekano w'abantu n'ibintu, ino aha mu ntara y'Amajyaruguru dufite polisi. Polisi ni urwego rushinzwe gucungira abantu umutekano w'ibyabo, ndetse no gucungira abantu bose umutekano.

Inama rusange zihuza abayobozi b'ibyiciro bitandukanye, zihuza abatumirwa bo mu byiciro bitandukanye, aho abo bose batumiwe bahurira mu cyumba, bakumva inama n'amabwiriza by'uwabatumiye.

Abamarine ni umutwe w'ingabo zishinzwe umutekano wo mu mazi, abamarine babamo ibice bibiri habonekamo: ingabo zirwanira mu mazi ndetse na polisi zicunga umutekano wo mu mazi.

Abapolisi bo mu muhanda bakunze kwitwa tarafike polisi mu ndimi z'amahanga bashinzwe kureba niba amategeko y'abakoresha umuhanda yubahirizwa. Abo tuvugamo abanyamaguru, abatwaye ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda.

Mu buryo bwo gucunga umutekano w'abantu, cyane cyane kubungabunga umutekano wo mu muhanda. Polisi y'Igihugu ikorera inaha mu Karere ka Musanze, iganiriza abaturage kwirinda impanuka. Aha ngaha abaturage baraza bakaganira na polisi y'Igihugu mu buryo bwo gucunga umutekano wo ku muhanda.

Mu ntara y'Amajyaruguru porisi y'u Rwanda irahari. Aho mu byo ishinzwe harimo gucunga ibintu n'abantu, mu buryo bwo guca akajagari ndetse n'ibiyobyabwenge, porisi yifashisha imbwa zatojwe neza mu gusaka.

Mu buryo bwo gukaza umutekano, porisi y'igihugu cy'u Rwanda yifashisha imbwa. Cyane cyane izi mbwa za porisi, zibafasha mu gusaka ibiyobyabwenge byinjira mu gihugu ku buryo bwa magendu. Izi mbwa zitanga umusaruro.

Mu Karere ka musanze tuzi nk'ibizwi inama y'umutekano. Cyane cyane ni inama ihuza abayobozi batandukanye aba gisivili, aba gisirikare, ndetse n'inzego z'umutekano zishinzwe polisi na ribu.

Bumwe mu buryo bukoreshwa mu gutambutsa amakuru haba hagati y'inzego z'ubuyobozi n'abaturage, ni inteko aho abayobozi bakuru bakorana inteko n'abaturage, bakicara bagakemurira hamwe ibibazo biri hagati yabo.

Inama z'abayobozi zitandukanye ni inama rusange aho nama rusange abaturage bakunze kuza buri wese akicara ku mucaca maze bagahabwa amabwiriza. Ariko inama z'abayobozi aho bahurira bahurira ahantu hari icyumba buri wese akica ku ntebe ye ndetse hari n'ameza n'imbere ye hari amazi yo kunywa.

Bimwe mu byiza byo guha umwari n'umutegarugori ijambo, ni uguhabwa umwanya mu nteko ahabereye inama se, agatanga ibitekerezo bimuvuye ku mutima, nk'uko abyumva nk'abandi bagabo bateraniye muri iyo nama, no murindi koraniro.

Nk'uko tubimenyereye mu mitegurire y'inama, cyangwa se ahantu harabera amahugurwa ariko bikaba byakorewe muri hoteli, abayobozi bicaye imbere buri wese aba afite icupa ry'amazi. Icupa ry'amazi iyo akeneye kunywa amazi arayafata akanywa, mbese ugasanga ari ibintu byiza.

Nk'uko bimaze kuba akamenyero nko mu tundi turere twose, n'ino aha mu karere ka Musanze habaho umwiherero w'abayobozi. Aho abayobozi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu bahurira hamwe, bagahabwa impanuro, ndetse bagahahiga n'imihigo y'ibyo bazakora.

Inama ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi batumiwe, maze uwabatumiye akabagezaho icyo yabatumiriye, abaje mu nama bose yabageza aho batumiriwe, buri wese amaso ye, amatwi ye, aba ayahanze kuwamutumiye yumva imigabo n'imigambi amugezaho.

Bimwe mu bikoresho byifashishwaga kera mu buhinzi, twavugamo Inkonzo, Isuka na Nyiranyabunyagwa, ibyo ni ibikoresho gakondo abakurambere bifashishaga bahinga, batera, banuhira imyaka mu mirima yabo.

Mu biranga imyidagaduro mu karere ka Musanze, naho imyidagaduro yatejwe imbere ,aha twavuga amatorero y'ababyinnyi, abasore bazi guhamiriza bacinya akadiho, ugasanga binogeye amaso.

Iyo tuvuze ikidamu ino aha mu karere ka Musanze tuba tuvuze ahantu inka zishokera, ubundi ikidamu ni ahantu haba harubakiwe hagashyirwamo amazi, ku buryo inka ziza kuhashokera.

Umudaho ujya gusa nk'umwuko. umudaho ukozwe mu giti. Twavuga ko umudaho umeze nk'ikiyiko kinini kingana nk'umwuko. Ni ukuri umudaho ukoreshwa mu guteka, kandi umudaho uvanga ibiryo.

Igiti cy'umugano kivamo ibikoresho bitandukanye aha twavugamo: uduseke. inkoko, inkangara, n'utundi dukoresho tw'inshi tuva mu mugano. Umugano ni igiti dushishikariza abantu kugihinga kuko kigira akamaro kenshi kandi gatandukanye.

Isekuru ni kimwe mu bikoresho byo mu rugo. Isekururo yifashishwa mu gusekura imyumbati tuyishakira ubugari, tuziko mu majyaruguru hari ibice bimwe na bimwe byeramo ibivunde bityo twifashisha isekuro dukora ifu yo guteka ubugari.

Mu muco nyarwanda mu busabane igikoresho cyifashishwaga abantu bari kunywa icyo kunywa, harimo igikoresho cyitwa agacuma. Icyo gihe agacuma kashyirwagamo umuheha, maze buri wese agahabwa agacuma ke, agasogongera icyo kunywa maze akakinywa ,akishimira ikinyobwa cye.

Imbyino z'umuco gakondo twavugamo imidiho, umudiho w'intore. Umudiho w'intore akenshi baba babyina bagenda ku murishyo runaka ,uko umurishyo utera uko umurishyo uvuga, ni n'ako bagenda babyina bikaraga basimbuka, babyinisha umubyimba wose.

Mu buhinzi bugaragara cyane mu Karere ka Musanze, harimo n'ubuhinzi bw'ibitoki bivamo umutobe unyobwa ndetse n'inzoga. Ibyo byose kugira ngo umutobe uboneke, ibitoke barabitara, bakabikama, bakabikamira mu muvure, bityo bigatanga umutobe uvamo inzoga.

Mu buryo bwo gukemura ibibazo abaturage badasiragiye mu nkiko, hashyizweho gahunda y'abunzi aho abafitanye ibibazo, bagana inteko y'abunzi akaba aribo babatega amatwi, bakabafasha gukemura ibibazo bafitanye.

Amasaka ni bimwe mu bihingwa bigaragara mu Karere ka Musanze, aho mu Murenge wa Cyuve, ndetse no mu murenge wa Kinigi, abahinzi b'amasaka rwose usanga bayahinze, bayitayeho, bayafumbiye. Aho ubona ihundo rwose ry'isaka rishimishije.

Imbyino gakondo ni imbyino zibyinwa n'abari b'u Rwanda, aho batega amaboko ukagira ngo ni inyambo. Iyo tuvuze inyambo ni inka za kera z'amahembe maremare, n'abari bacu batega amaboko ukabona bameze neza nk'izo nka za kera

Zimwe mu mbyino gakondo zizihiza cyane, zigaragara mu mbyino z'abakobwa bacu, ni iyo baba batamba. iyo bacinya akadiho bamwe bikoreye uduseke, usanga biryoheye, uzabibona mu bakwe, ahabaye ibirori, mbese ino muri Musanze dufite ababyinnyi ga we!

Iyo tuvuze umuziki gakondo ntitwakwibagirwa kuvugamo imicurangire gakondo. Imicorangire gakondo tuzi twabibutsa imicurangire w'inanga. Umurya w'inanga icuranze atanga amajwi meza, akururutsa umutima.

Imyogoshere y'amasunzu ni imyogoshere yo mu gihe cyo hambere, imyogoshere y'amasunzu yari igezweho kandi uwogoshe amasunzu wabonaga ari mwiza cyane pe! Amasunzu ari mu mico gakondo y'abakurambere.

Mu birori byose habamo gucinya akadiho habaye ibirori, iyo abantu bishimye banezerewe mu muco gakondo wacu turabyina. Mumajyaruguru dukunze gucinya umudiho witwa ikinimba aho tubyina ivumbi rigatumuka.

Abami ba kera bambaraga ikamba iryo rikaba ryitwa ikamba ry'ubwami, ikamba ry'ubwami wari umwambaro wambarwaga ku mutwe w'umwami ,maze ugasanga bibereye ijisho ,aho kuko wamubonaga atandukanye na rubanda rusanzwe.

Ikibindi, ikibindi ni igikoresho gakondo cy'abakurambere . cyifashishwaga mu gutwaramo ibisukika yaba mu kujya kuvoma amazi cyangwa se mu gutwaramo ibinyobwa by'urwagwa ndetse n'ikigage.

Imbyino gakondo z'abakera zabaga zishimishije mu birori, babyinaga bakenyeye, bafite inkoni ndetse n'amacumu, mbese bigamba nk'aho ari intwari zo kurengera igihugu, ni koko wari umuco mwiza.

Tumwe mu dukoresho gakondo abakurambere bakoreshaga bafata icyo kunywa, harimo agacuma. Agacuma bashyigaramo icyo kunywa maze bakakinywa bifashishije umuheha. Iyo tuvuze umuheha bamwe bumva umuseke, mu kirimi cy'ino ahangaha. Muri make igicuma n' agakoresho gakondo.

Ubukwe bugezweho muri iyi minsi, cyane cyane mu gusaba umugeni no gukwa, ni ubukwe abasore baza bakenyeye. Baba bakenyeye hasi; biyambariye sandali. Kera twazitaga rugabire, ariko ngo byahindutse sandari da! Ubwo na ryo ni iterambere. Baba bafite n'inkoni wagira ngo na bo ni abasaza kandi ari ari abasore.

Bumwe mu bukorikori abari n'abategarugori bitabira gukora inaha mu Ntara y'Amajyaruguru, harimo kuboha agaseke, kuboha agaseke umuntu yabyita no kuboha utwibo. Agaseke ni udukoresho gakondo biri mu muco nyarwanda, naho uduseke tuboneka inaha mu Karere ka Musanze.

Mu mbyino gakondo twavuga umudiho w'intore. Intore zibyina zisimbuka, intore iba ifashe ingabo, ifite icumu, ikenyeye kandi yambaye abahura. Intore ni bimwe mu biranga umuco nyarwanda cyane cyane mu mbyino.

Mu bishimisha cyane cyane mu bihingwa, by'ino aha mu karere ka Musanze, igihingwa cyose uwagihinze, ashimishwa n'uburabyo bw'acyo, igihingwa cyose kirabije uburyo uburabyo bugaragara, ni bwo bugaragaza umusaruro w'icyo gihingwa.

Amasunzu ni imyogoshere yari igezweho ya kera, amasunzu burya n'abagabo barayogoshwaga ugasanga bibereye ijisho ugereranyije n'icyo gihe. Abami ba kera abenshi wasangaga nabo barogoshe amasunzu.

Mu bukorikori bwa kera harimo ububoshyi. Aho mu bushyi babohaga ibitebo byifashishwa mu gutwara ibintu, ndetse bakaboha ingobyi zifashishwa mu kujyana umurwayi kwa muganga. Mu bubaji babazaga imihini yifashishwa mu gukwikira amasuka.

Umutobe w'ibitoki uboneka abantu babanje gukama imineke, ngo bumve ko imineke iyo yahiye, bayikama ikavamo umutobe, iyo umutobe ubonetse na wo urafatwa ugashyirwa mutujerekani, maze ukagenda wisomera ku mutobe, cyangwa ukawutara ukazavamo urwagwa.

Bimwe mu biranga umuco nyarwanda, cyane cyane mu kugaragaza imvamutima z'ibyishimo harimo imbyino, imihamirizo ndetse n'imidiho. Muri ibyo by'imbyino n'imidiho mu muco nyarwanda twifashisha ingoma, ari ho havuye abakaraza bazi gucanga ingoma bikaryohera amatwi.

Abakaraza ni abantu bacuranga ingoma, Aho batugezaho umurishyo w'ingoma ufite injyana zitandukanye, ukumva binogeye amatwi, ukumva binyuze umutima. Abakaraza mu birori batugerezaho amajwi y'ingoma aryoheye amatwi.

Mu myubakire ya kera ya gakondo usangamo uburyo bw'imyubakire y'inzu z'ibyatsi kuva hasi kugera hejuru, iyo myubakire igaragara mu mahoteli amwe n'amwe yo mu Karere ka Musanze cyane cyane mu Kinigi.

Mu muziki nyarwanda cyane cyane umuziki gakondo, hari ibikoresho gakondo bitanga umuziki. Aha twavuga nk'igikoresho cyitwa umuduri. Umuduri ni igikoresho gicurangwa gitanga umuziki.

Ubukwe bwa kinyarwanda ubu busigaye bukora mu muco wa kinyarwanda wa kera aho usanga abasore bakenyeye ba mu gihe kigeze abasore bamara amakositimu hari iterambere rigeze, abasore basigaye bakenyera da.

Mu bikoresho gakondo byakoreshwaga kera n'ubu bikiriho ntitwabura kuvuga intebe y'inyarwanda. Intebe y'inyarwanda iba iteye ubwuzu, intebe y'inyarwanda iboneka ahantu henshi, ndetse no mu byaro bimwe na bimwe iyi ntebe iracyahari iracyakoreshwa.

Mu muco gakondo w'abasokuruza wacu hari icyo twita kumasha, kumasha ni ugufata umuheto ugatamikamo umwambi ugahamya mu ntego. Ibyo biri mu byarangaga ubutwari bw'Abanyarwanda ba kera.

Nkubwire se ibiryo gakondo uburyo ubu bigezweho, ibiryo gakondo kera ni ibiryo byatekwaga mu nkono y'ibumba, bigatekeshwa inkwi nta mavuta bashyiragamo, ntabyo gukaranga mbese ibiryo bigashya byitonze, ku buryo rwose ubirya ukumva ni ibiryo gakondo.

Umudiho w'intore ni umudiho uryoheye amatwi. Umudiho w'intore biri muco gakondo, umuco nyarwanda. Aho umudiho w'intore wiharirwa cyane n'igitsina gabo.

Kuva kera kose umwami yagiraga umwamikaz. Iyo bavugaga umwami, bakavuga n'umwamikazi yagombaga kuba ariwe mugore w'umwami . Muri make, umwami n'umwamikazi ni bo bari abayobozi bo mu gihugu.

Umwuga w'uburobyi, cyane cyane uburobyi bukorerwa mu biyaga bya Burera na Ruhondo, bakunze gukora uburobyi mu masaha ya nijoro. Iyo ari nijoro usanga amato ari mu makoperative, agiye gukora umwuga w'uburobyi.

Mu muco gakondo wa kera umwari yabyukanaga akabindi akajya kuvoma, mu buryo bwo kuvoma k'umugezi amazi yatwarwaga mu kibindi byari byiza cyane. Kuko umwari w'umukobwa yarazindukaga ajya kuzana amazi yo gukoresha mu rugo.

Umuvure ni igikoresho gakondo, cyakoreshwaga kuva kera na n'ubu kigikoreshwa, aha twavuga ko umwe mu mumaro w'umuvure, kwenga ibitoki bengeramo umutobe, umuvure ku bashigisha imisururu urifashishwa mu kuwushigishamo, umuvure kandi inka zinweramo amazi zishotse.

Imwe mu myuga gakondo ya basokuru harimo umwuga w'ubukorikori bwo kuboha ibitebo ndetse bakabaza imihini bakaboha n'ingobyi. Izi ngobyi babohaga zatwarwagamo abarwayi ndetse na nubu mu bice by'icyaro izo ngobyi zirahagaragara.

Bimwe mu bintu bituma umudiho w'intore uryohera amaso ni imyambarire y'intore, aho aba afite icumu, afite ingabo ndetse no mu mutwe we afite ubuhura. Ni ukuri iyo acinye umudiho ubona ari byiza biryoye amaso.

Mu micurangire ya gakondo iryohera abantu ntitwabura kuvuga gucuranga umuduri, umuduri ni igicurangisho gakondo. Umuduri ukorwa mu kantu kameze nk'umuheto bashyiraho akantu kameze nk'agacuma maze bagakubita umurya ukumva rwose ni umurya gakondo mwiza uryoheye amatwi.

Ipombo ni kimwe mu gikoresho cyifashishwa n'abahinzi mu gihe bafuhira imyaka, batera umuti mu myaka, baba abahinga ibirayi, abahinga ibishyimbo, baba abahinga imbuto, intoryi ndetse n'ibigori, iyo byajemo udusimba wifashishisha, ipombo uteramo umuti wica udukoko.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa bateka twavuga igikoresho cyitwa umwuko, umwuko ni igikoresho kibajwe mu giti aho umwuko wifashishwa ku kuvanga ibiryo ndetse iyi myuko igaragara mu masoko atandukanye y'ibiribwa icuruzwa.

Muri gahunda yo guca kororera mu gasozi, habayeho uburyo bwo gushishikariza aborozi kubaka ibiraro bororeramo amatungo ya byo. Iyo boroye, ibyo biraro ifumbire ivanwamo irundwa ahantu, ikazajyanwa mu murima.

Iyo tuvuze imikoreshereze y'amashanyarazi, ntitwakwibagirwa kuvuga mubazi ibara ingano y'umuriro w'amashanyarazi, ibyo tuzi ku izina rya kashi pawa. Kashi pawa ni yo ubu ngubu ibara umuriro w'amashanyarazi runaka, ndetse n'iyo uri kugura umuriro, imibare baguhaye uyishyiramo wifashishije kashi pawa.

Ahantu hose hari amashanyarazi haba hari na fizibure. Fizibure nizo zifata umuriro uturutse ku mapoto, zikaba zishobora kuwuhagarika mu gihe bibaye ngombwa, igihe cyose habaye impanuka, cyangwa bagiye gukora amashanyarazi bifashisha fizibure, mu gukupa no gukupura amashanyarazi.

Turunovisi ni igikoresho gikoresha ufunga imisumari ifite feriyeri, iyo misumari ifite feriyeri niyo twita amavisi, icyo gikoresho rero kifashishwa gufunga iyo misumari cyangwa uyifungura.

Iyo tuvuze ingufu z'umuriro w'amashanyarazi, ntitwakwibagirwa kuvugamo insinga z'amashanyarazi. Insinga z'amashanyarazi ni zo zifashishwa mu gutwara umuriro uva ku mapoto, ugera mu nzu. Insinga z'amashanyarazi zirifashishwa cyane.

Imyubakire y'ahantu hahurira abantu benshi, twavuga ibigo by'amashuri, ibitaro na santeredosante, mu karere ka Musanze dufite akamenyero ko aho hantu haba hazitiye. ku buryo aho bibaye byiza, bifashisha uruzitiro rwa senyengi.

Korale n'umutwe w'abaririmbyi, ujya uboneka mu nsengero zitandukanye, ushinzwe kuririmba indirimbo zihimbaza imana, kandi ukagira umwanya wo kubwiriza ubutumwa bwiza, mu ijambo ry'imana bakoresheje ibihangano byabo by'indirimbo.

Mu mashuri ya garidiyene yo mu Karere ka Musanze amenshi afite aho abana bakinira bita imyicundiriro. Aho abana bicara ku cyuma kikabazengurutsa abandi bagenda babasunika, basimburana gutyo gutyo ugasanga bishimishije.

Bimwe mu biranga imyubakire ya Gisiramu, ni umunara muremure wo hejuru, igice cy'ukwezi, ndetse iruhande munsi y'uwo munara, habonekamo indangururamajwi maremare. Nicyo gituma twumva abayisilamu basara biturutse mu ndangururamajwi.

Inyubako z'ahantu hahurira abantu benshi. Ni inyubako zitandukanye, urugero aha twavuga inyubako z'ikigo cy'amashuri. Bimwe mu biranga inyubako z'ibigo by'amashuri ni uruzitiro. Uruzitiro ruba ruzengurutse ikigo cyose, ikigo kikagira ubwinjiriro bumwe.

Zimwe mu nyubako zihurirwamo n'abantu benshi mu Karere ka Musanze bavuga nk'inyubako z'insengero, insengero ni ahantu abantu bahuje imyemerere bahurira bagasenga abo twita ngo basengera mu idini runaka runaka.

Burya rero ahantu hahurira abantu benshi, haba hateye n'amazu ateye ukwako. Icya mbere kiharanga, haba hari amazu ndetse n'ikibuga, aho usanga abantu bashobora kwisanzurira mu gihe cy'umucyo, ndetse bakabona n'aho bugama.

Umudugudu w'icyitegererezo ni umudugudu aho abantu bubaka inzu zifite pura imwe, mbese zegeranye ugasanga binogeye amaso pe. Umudugudu w'icyitegererezo uba wubatse neza mu buryo buteye imbere rwose kandi ku muhanda.

Ikigo cy'amashuri ni ahantu abanyeshuri bahurira n'abarimu, bagahabwa amasomo bahawe n'abarimu babo ari nabo babigisha. Ubusanzwe iki gihe ibigo by'amashuri biri hafi gufunga bijya mu biruhuko.

Zimwe mu nzu zihurirwamo n'abantu benshi, twavuga ko harimo n'inzu z'insengero, ikigararagara nuko ino mu majyaruguru insengero nyinshi zirafunzwe, bityo hakaba nta muntu, ukihatamba yewe nta n'inyoni ikiboneka ku rusengero.

Zimwe mu nyubako ziranga ahantu hahurira abantu benshi ;hariho inyubako z'insengero. Ino aha mu majyaruguru, insengero nyinshi zarubatswe ,ariko ubu zirafunzwe kuko zitujuje ibisabwa.

Imyubakire ya za kaminuza zo mu karere ka Musanze ziteye ubwuzu. Aho kaminuza zose zigaragara mu karere ka Musanze, usanga ari amayetaje. Zirageretse, kandi ugasanga zifite ubwiza bunogeye amaso.

Mu biranga imiturire cyane cyane mu karere ka Musanze, abaturage bashyizwe mu mudugudu, aha twavuga umudugudu w'Icyitegererezo wo mu murenge wa Kinigi, aho abaturage batuye mu nzu zigerekeranye.

Kimwe n'ahandi hose mu karere ka Musanze, habonekamo inzu y'ubwami n'Abahamya ba Yehova. Inzu z'Abahamya ba Yehova ni nyinshi mu karere ka Musanze. Ariko muri iyi minsi, inyinshi zirafunzwe, kubera kutubahiriza ibyo basabwe.

Burya no mukarere ka Musanze haba ikirere cyiza cyane, cyane iyo hari mu gitondo witegeye iburasirazuba ubona izuba mu kirere rirasa ugasanga n'ishusho ibereye amaso. Mu karere ka Musanze dufite kirima nziza ikurura ba mukerarugendo.

Inyubako z'ahantu hahurirwa n'abantu benshi ni inyubako ziba ziteye ukwazo, aho ahanini izi nyubako usanga zifite amadirishya maremare, kandi afite ibirahuri biteye ukwabyo. Ni ukuri inyubako z'insengero zigira amadirishya meza, atandukanye n'inyubako zisanzwe.

Agasoko gato ni ahantu abantu benshi bahurira, yaba abazanye ibyo kugurisha abandi baje kuhagurira. Iyo aha hantu bahahuriye cyane, hari ubwo Leta ibubakira akazu ko kugamamo, mbese bagacururiza ahatanyagirwa. Leta ishishikariza abantu gukora ubucuruzi bwo mu masoko.

Bimwe mu buryo bwiza bw'imigenderanire y'abantu, harimo amateme ,ndetse n'imihanda .Hari aho, hakozwe imihanda inyura mu kirere ,abantu bakambuka bakagenderana, ariko bikaborohera mu gihe mbere bitashobokaga, ino aha mu majyaruguru yagezeyo.

Imyubakire y'amayetaje, habanza gukomezwa hasi. Hasi hatabwa amaferabeto, hagakorerwa beto, ku buryo inzu izaba ifite aho twakwita umusingi ukomeye cyane.

Imwe mu myubakire igezweho, iranga imiturire iteye imbere ino mu majyaruguru, n'imiturire yo mu midugudu aho inzu zo mu midugudu usanga zifite uburyo bwo gufata amazi aturuka ku mvura, aho baba barubatse ibigega amazi aturuka ku mvura akajya muri ibyo bigega, akazifashishwa n'imiryango ituyemo.

Bimwe mu byiza byo gutura mu midugudu, abantu bagatura begeranye, bituma Leta ibagezaho umuriro w'amashanyarazi mu buryo bworoshye. Aho insinga zitwara amashanyarazi zibagereraho rimwe maze bagacana.

Mwari muzi se impamvu dukunda kubona ahantu hari inzu nini y'urusengero, hari n'ibiti? Burya umumaro w'ibiti bifata umuyaga, wa muyaga ugomba kuba mwinshi ushobora gutwara, gusambura urusengero, ibi biti birawugabanya ni yo mpamvu ahari insengero wuhabona ibiti.

Mu mashuri y'incuke burya agira umwihariko kubera ko aba yigwamo n'abana bakiri bato. Usanga intebe zabo bicaraho zisize amarangi, ameza asize amarangi cyane cyane ku buryo abana babibonye bibashimisha ndetse n'abayobozi iyo bicaye aho bicaye usanga intebe ndetse n'ameza bisize amarangi.

Ikigo cy'amashuri ni ahantu abana bahurira n'abarezi babo, bagafata amasomo. Muri iki gihe, turimo abana barangije ibizamini, iyo ugeze ku kigo cy'amashuri usanga gifunze.

Bimwe mu bintu byoroshya imigenderanire y'abantu, ni amateme. Amateme na yo dukunze kwita mu kirimi cy'iwacu ikiraro. Ikiraro cyambukiraho abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye.

Imyubakire y'insengero itandukanye n'imyubakire y'inzu abantu basanzwe bazi, aho usanga iyo nta muntu uri mu rusengero, iyi nzu iba harimo intebe gusa, nta cyumba nta cyumba cyangwa urundi rugi rujya ahandi hantu, aba ari igisare kinini.

Wifashishije panosoreye ushobora kubyaza urumuri rw'izuba amashanyarazi acanwa, akamurika mu rugo iwawe, abana bakizihirwa, bakabona urumuri nk'urw'amashanyarazi asanzwe. Izuba rero na ryo ritanga imbaraga mu kumurika, ndetse no mu gucana mu nzu.

Icyumba umuntu araramo usanga kirimo igitanda, matora, amashuka ndetse n'uburangiti. Icyumba gishashe neza, umuntu aruhukiramo kiba gifite isuku rwose, ku buryo na we uhagera ukumva ukumbuye kuharuhukira.

Mu buryo bw'imiturire abantu bashishikarijwe gutura mu mudugudu. Abatuye mu midugudu bagezwaho umuhanda, amashanyarazi. Izo nzu ziba ziri hamwe ndetse n'abaturage batuye hamwe, mu buryo bwegeranye.

Mu buryo bwo kwishakamo ibisubizo cyane cyane mu bigo by'amashuri, ababyeyi barerera ku kigo cy'amashuri, bafata igihe bagakora umuganda. Aha twavuga bagasiza nk'ikibanza kizubakwamo ishuri mu gihe runaka.

Iyobokamana rirakataje mu karere ka Musanze. Aha turabona inyubako zisengerwamo， aha twazita za kiriziya，ndetse n'inyubako z'andi madini. Aha ngaha uzibona hirya no hino mu karere ka Musanze.

Mu bigo by'amashuri bitandukanye hari ibyo twita rasamburoma cyangwa inama. Abanyeshuri bicara ahantu, maze bagahabwa amabwiriza n'umwarimu.

Mu nama izo arizo zose, iyo ufite ijambo avuze igikora ku bitabiriye inama, bamuha amashyi. Abantu bagaragaza amarangamutima mu buryo butandukanye. Hariho abamupepera, hariho abamusekera, abandi bagacurira kakahava.

Mu gihe cy'inama ni byiza ndetse birakwiye ko abayobozi baha umwanya abaturage, nabo bagatanga ibitekerezo bya bo mu biba byaganiriweho, cyangwa bagatanga ibibazo bibabangamiye, ngo abayobozi babikemure

Bimwe mu byarangaga umuco wa kera ntabwo umutegarugori yari afite umwanya wo guhabwa ijambo mu ruhame, ariko aho umugore ahawe ijambo bagasubizwa n'agaciro abategarugori rwose baratanga ibyifuzo kandi bigashimwa n'abagabo.

Mu bigo by'amashuri hakunze kuberamo inama y'ababyeyi. Inama y'ababyeyi itumirwa n'ubuyobozi bw'ikigo cy'ishuri ikitabirwa n'ababyeyi bafite abana barerera muri iryo shuri, bashobora no gutumira abayobozi batandukanye bari hafi y'iryo shuri.

Burya no muri gare habamo gahunda aho amabisi manini atwara abantu, ukwayo maze abantu bakayasanga ahaparitse bityo bakinjira muri zo maze zikabatwara.

Ikiranga umujyi cyane cyane wa Musanze ,in'aha muri Musanze n'uko uko umujyi ugira amatara ku muhanda, amatara ku muhanda amukira abagenzi, amatara ku muhanda amukira n'imodoka, mbese iyo bwije ari nijoro ukabona ari nko ku manywa.

Mu guteza imbere ba mukerarugendo baza gusura inyamaswa ziba mu birunga, cyane cyane aha ngaha twavuga Ingagi zigaragara hano ku birunga ,ku nkengero z'ibirunga hakozwe umuhanda. Uwo muhanda ni wo ba mukerarugendo banyuzamo imodoka iyo baje gusura Ingagi zacu.

Ni koko abari n'abategarugori na bo barashoboye. mu karere ka Musanze, dufite abari bakeya b'abanyonzi. Ariko barahari bazi gutwara igare rwose, bakanyonga, na bo bagatunga imiryango ya bo, na bo ubwabo bakiteza imbere. Ibyo ni iterambere ku bakobwa bacu.

Ahantu abagenzi bategera imodoka zibajyana aho bashaka kujya, naho harateganyijwe mu Karere ka Musanze. Twavuga gare y'akarere ka Musanze, aho usangamo amabisi akuyobora aho ushaka kwerekeza, mu ntara zitandukanye, mu turere dutandukanye.

Mu bwikorezi bw'ibintu byinshi, cyane cyane mu Ntara y'Amajyaruguru, twavugamo imodoka zizwi ku izina rya hoho. Imodoka za hoho ni imodoka zikomeye, zikorera ibintu byinshi cyane, ndetse zifashishwa mu kwikorera cyane itaka.

Iyo tuvuze muri gare cyane cyane zigaragara mu murenge wa Kinigi, tuba tuvuze ahantu imodoka ziparika maze abagenzi bakaza kuzifata, bakazinjiramo bashaka kugera aho bashaka. Iyo ugeze mu Kinigi usanga gare iri ahantu hafatanye n'isoko, mbese biregeranye cyane.

Mu buryo bwo gutwara abantu, hakoreshwa imodoka z'ingeri zitandukanye. Aho tuzi za tagisi, za bisi, ariko muri iyi minsi hagezweho uburyo bwo gutwara abantu na kwasiteri. Kwasiteri ni minibisi iringaniye, aho iri munsi ya bisi nini, kandi ikaba iruta tagisi ntoya.

Bimwe mu bifasha gukora ingendo zitwara abantu benshi, harimo ubwoko bw'imodoka za bisi, izi bisi iyo uyibonye ari nshyashya itarambara purake, iba iteye neza iteye amabengeza, ni nazo zifashishwa mu gutwara abagenzi bava mu Rwanda no mu bihugu duturanye.

Iyo tuvuze ubwikorezi bw'abantu n'ibintu mu kiyaga, n'ubwikorezi buboneka mu biyaga bya Ruhondo na Burera, aha amato asurwa n'ababishinzwe bakareba ko yujuje ibisabwa, maze agakomeza gukora akazi kayo.

Mu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu ,hakoreshwa uburyo butandukanye ,aho imodoka nyinshi zizi gutwara imizigo myinshi ndetse n'abantu benshi ,zizwi ku mazina ya bisi. Bisi ni imodoka itwara abantu n'ibintu.

Ubumotari n'umwuga wo gutwara abantu n'ibintu. Umwuga w'abamotari batwara bakoresha serivisi ubumotari kugirango babe mu kubanza kujya mu makoperative, hari amakoperative menshi y'abamotari agaragara mu Ntara y'Amajyaruguru.

Mu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu benshi, kandi bagendeye rimwe, hatekerejwe uburyo bwiza butwara abantu benshi mumodoka aribwo twita bisi, tuzi tumenyereye za otobisi z' udutagisi duto, ariko ubungubu haje amabisi manini, atwarira abantu benshi icyarimwe.

Kamwe mu kazi ka serivisi yo gutwara abantu n'ibintu byabo inaha i Musanze, higanzamo abatwara abantu kuri moto, dukunze kubita abamotari, ubundi ni abakora tagisi kuri moto.

Imodoka zo mu bwoko bwa Roro, ni zimwe mu modoka zikoreshwa cyane mu gutwara no gutunda umusenyi wo kubaka , umusenyi tuzi in'aha mu ntara k'Amajyaruguru ni umusenyi uzwi ku izina rya kiciye ,umusenyi uboneka ku nyubako zose ziboneka mu ntara y'amajyaruguru.

Iyo tuvuze eya Rwanda, n'indege nini itwara abantu n'ibintu yo mu Rwanda, eya Rwanda ntabwo iragira ikibuga inaha mu Karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, icyakora dufite ikibuga gitoya cy'indege kigwaho indege ntoya zo mu bwoko bwa kajugujugu.

No mu karere ka Musanze dufite gare, aho abagenzi bashaka gukora ingendo zitandukanye zaba izisohoka mu ntara, zaba izo mu mujyi w'akarere ka Musanze bagenda bagatega ibinyabiziga biba bitandukanye babona tagisi moto, tagisi vuwatiri ,amakwasiteri n'izindi.

Ni koko mu buryo bw'imikorere n'abafite ubumuga ntibahejejwe inyuma. Niyo mpamvu hari amagare y'abafite ubumuga, atwara ibintu. Bityo bakinjiza amafaranga. Abafite ubumuga na bo bagatanga imiryango yabo.

Gare rutsiyere ni ahantu imodoka zitwara abantu n'ibintu zihagarara, maze abagenzi bakazihafatira bakajya iyo bajya. Buri gare iba ifite linye runaka y'imodoka zijya aha n'ahantu.

Umukino wa basiketiboro ni umukino w'intoki. Umukino wa basiketiboro ni umukino ubamo amacenga, abantu bacengacengana. Abari n'abategarugori bo mu Karere ka Musanze na bo ntibatanzwe muri uyu mukino.

Umukino w'umupira w'amaguru, inaha mu karere ka Musanze dufite ikipe yacu ya Musanze fc, ikipe ya Musanze ikunda gukoresha ikibuga twita ubworoherane sitade, ubworoherane sitade ni ho dukinira umupira w'amaguru.

Handi boro n'umukino w'intoki, handi boro haba harimo abakinnyi ndetse n'abanyezamu, nyezamu abakumira ko umupira wakwinjira mu izamu, handi boro umukinnyi atera mu izamu akoresheje intoki.

Nk'imwe mu mikino igezweho kandi yinjiza atubutse, harimo n'umukino wa tenisi. Abari n'abategarugori na bo ntibatanzwe muri uwo mukino. Aho usanga abakinnyi b'umwuga barabonetse inaha mu Ntara y'Amajyaruguru ndetse abari n'abategarugori bakaba barimo.

Umukino wa volebolo ni umukino bakina bakoresheje intoki, umukino wa volebo biba bisaba gusimbuka cyane, ndetse n'abantu barebare, ugasanga ni siporo nziza ibonekana mu mikino myiza hano mu Rwanda.

Iyo tuvuze umukino w'amagare, ntitwabura kuvuga ko muri uwo mukino haba mo ikipe. Ikipe y'amagare iba ari abantu bambaye ibintu bisa, baba ahantu bitoreza hamwe. N;ino aha mu ntara y'Amajyaruguru, dufite ikipe ihitoreza, ku mukino w'amagare.

Imwe mu mikino ishimishije y'intoki ibamo amacenga n'umukino wa basikete urimo. Umukino wa basikete ni umukino w'intoki ariko ubu bacenga abacenga ukoresheje intoki, habamo amafiyeri atandukanye rwose n'udukoryo.

Umunyezamu ni umwe mu bakinnyi cumi n'umwe bagize ikipe y'umupira w'amaguru; umunyezamu niwe gusa wemerewe gufatisha umupira intoki ndetse no gukoresha ibirenge.

Amahoteli ni bumwe mu bucuruzi bugaragara inaha mu Ntara y'Amajyaguru, cyane cyane mu Karere ka Musanze, aho bukurura ba mukerarugendo baba baje kureba ingagi zigaragara muri pariki y'ibirunga. Amahoteli ni bimwe mu byifashishwa cyane mu kwakira abashyitsi baturutse mu mahanga.

Umukino wa voreboro ni umukino ukinwa n'abakinnyi cumi na babiri. Ikipe imwe iba igizwe n'abakinnyi batandatu, iyindi batandatu. Ni umukino w'intoki aho umupira bawukina bakoresheje amaboko.

Akarere ka musanze imikino yatejwe imbere, aha twavuga n'umukino wo gusiganwa uwirukanka n'amaguru nangaha harimo abasiganwa ku ntego ya birometero magana atanurometero igihumbi kugeza ku birometero ibihumbi bitanu, mirongo itanu imbere.

Mu birori abantu bicara bitegeye ahari kubera ibirori. Iyo abantu bicaye mu birori, amaso yabo, ubwenge bwabo, ndetse n'umutima wabo, baba bawushyize aho bareba bose, ariho bahanze amaso.

Mu mukino wa vole iyo ugiye gutangira umukinnyi umwe afata umupira inyuma y'ikibuga abyo bita kurivura. Iyo bavuze ngo agiye kurivura yohereza umupira ukarenga ikipe ye ukakirwa n'ikipe ya diverisale icyo gihe bagatangira gukina.

Imwe mu mikino ishimisha abantu, harimo n'umukino w'amagare. Umukino w'amagare tuzi ino aha mu Rwanda, ni umukino w'isiganwa ku magare ya siporo, tuzi ku izina rya turudirwanda. Turudirwanda Ijya inyura ino aha mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Musanze.

Umukino wa basikete cyane cyane ku bagore, ku bari n'abategarugori, n'umukino uryoheye ijisho ikibuga cya basiketi n'ikibuga kitagaragara amabuye kiba kirimo na sima mbese ni umukino wa bifite.

Muri turudirwanda zose zijya zigera mu gihugu, aho abantu baba basiganwa ku magare ya siporo baturutse mu bihugu bitandukanye, buri gihe mu karere ka Musanze barahasoreza, bakongera bakahahagurukira. Ibyo bituma abaturage bo mu karere ka Musanze basobanukirwa n'umumaro wa siporo y'amagare.

Mu karere ka Musanze imikino nayo yatejwe imbere, aha twavuga imikino y'amoko menshi aho twavuga umukino wa tenisi, ikibuga cya tenisi mu karere ka Musanze kigaragara uvuye ku biro by'akarere ka Musanze werekeza mu mujyi wa Musanze.

Iyo tuvuze imikino hari ubwoko bw'imikino myinshi. urugero hari umukino wa basiketi, umukino wa basiketi na wo ni umukino w'intoki. Ariko icyo imikino yose ihuriraho mbere yuko umukino utangira, abakinnyi babanza kwishyushya bitegura gukina.

Mu mukino w'amagare y'abasiganwa batarahaguruka babanza gushyirwa hamwe bagahabwa impanuro, bakaganizwa ndetse bagahabwa na gahunda yo ku rugendo rugenda, ibyo byose biba mbere y'isiganwa.

Mu masiganwa tutari dusanzwe tubona inaha mu Karere ka Musanze, amasiganwa y'iyi modoka arimo. Ariko rimwe na rimwe ajya acishaho akahanyura, aho aba aguruka. Ziba zifite umuvuduko mu rwego rwo hejuru, ikikubwira imodoka ziri mu masiganwa , ubibwirwa n'umucucu uba uzamuka ari mwinshi.

Abari n'abategarugori na bo ntibatanzwe mu karere ka Musanze， mu kwitabira imikino itandukanye. Aha twavuga ikipe y'abari n'abategarugori y'akarere ka Musanze， ikina umukino wa voriboro. Umukino wa voribori ni umukino bakina bakoresheje amaboko.

Ni byo koko muri Musanze dufite ikipe y'akarere ka Musanze dukunze kwita Afuse Musanze . Iyo kipe igira abakinnyi . Mu buryo bwo kugira abakinnyi isinyisha abakinnyi kontara abakinnyi baje mu ikipe ya Musanze basinya kontara ari yo masezerano yo kuba abakinnyi b'ikipe y'akarere ka Musanze.

Bavuga ibintu byitwa mitingi, cyane cyane mu gihe haba hari amatora mu gihugu runaka, amashyaka ahanganiye ubutegetsi, ashishikariza abayoboke bayo kwitabira izo mitingi, babagezaho amatwara yabo atuma bazabatora.

Bimwe mu bituma dusigasira umukino w'amagare ni ukuwutoza abana bakiri bato. Iyo umwana akiri muto yitoje gukina igare, azamuka afite imbaraga, atwara igare ku buryo butangaje cyane.

Iyo dufana amasiganwa ku magare, uwa mbere tumuterera impundu, tukamutera ibyatsi ,tukamuterarera indabo ,mbese tuba twishimiye intsinzi. Biba agahebuzo iyo uri ku mwanya wa mbere ari umunyarwanda . Iyo umunyarwanda atugezeho, twumva twishimye.

Imwe mu mikino y'intoki ikunzwe cyane mu Karere ka Musanze twavugamo nk'umukino wa voreboro , voreboro ni umukino bakinisha intoki barenze umupira hejuru ya fire ku buryo umupira uguye hasi aribwo baba babonye igitego ku ikipe ya diverisere.

Mu isiganwa ry'amagare habamo ibihembo bitandukanye, aha twavugamo igihembo cyo kwambara mayojone ari na byo mu kinyarwanda twita umupira w'umuhondo. Icyo gihembo gihabwa uwarushije abandi muri byose akaba ari we uri imbere.

Imwe mu mikino ishimisha, harimo n'umukino w'amagare. Umukino w'amagare uzwi cyane kuri ... cyitwa Turudirwanda. Inaha mu majyaruguru, Turudirwanda ijya ihanyura maze ugasanga abantu bahagaze ku mihanda birebera uko abantu binyongera amagare.

Mu mikino myiza y'amahoro ibaho ishimishije, habaho n'umukino wa voreboro, umukino wa voreboro ni umukino w'umupira ariko bakina bakoresheje intoki cyane, aho ngaho n'indi mibiri ijya iwukoresha, ariko ikiba kigamije gikinishwa cyane ni intoki.

Ahabereye irushanwa ry'imikino runaka, aha twavuga irushanwa ryo kwirukanka se gusimbuka n'indi mikino, haba hari abantu bashinzwe ubujyanama mu by'ubuzima, ku buryo iyo umukinnyi agize ikibazo yegerwa akaganirizwa. Ikizakubwira abo bantu ni uko baba bafite ikirango cy'umusaraba, kiri ku myambaro yabo.

Mu mikino y'imyidagaduro umuntu yakwita Ateretizime, abari n'abategarugori na bo barayitabiriye cyane cyane ino aha muri Musanze. Ntitwabura kuvuga umukino wo gusimbuka. Aho abari n'abategarugori bazi kunyaruka bagasimbuka kurusha inyaga, bagahesha akarere ishema.

Amarushanwa y'uburyo bwose mu karere ka Musanze yatejwe imbere . Aha twavuga amarushanwa y'ateretisime ,amarushanwa y'umucon'andi marushanwa atandukanye . Ikigaragara iyo amarushanwa arangiye haboneka uwabaye uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, bagashyikirizwa ibihembo byabo.

Inzira nyabagendwa, n'inzira inyurwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, ibyo twita imihanda, iba ar'imihanda inyurwamo n'abakoresha inzira nyabagendwa, ubu rero imihanda igezweho n'imihanda ya kaburimbo.

Imyubakire igezweho cyane cyane mu mugi, ndetse no mu nkengero hariho imyubakire y'inzu zo guturwamo, izo nzu zitwa rcd ni inzu nini iba ifite igisenge gihanitse ndetse gicuramye cyane.